Uyu ni umuhanda wa kaburimbo ugendwamo mu byerekezo byombi, harimo imodoka nini iri kugenda ifite irange ry'umweru.

Icyapa cyamamaza kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru. Cyamamaza ubwishingizi bwa radiyanti, hashushanyijeho igishushanyo cy'ifoto y'umukobwa wambaye imyenda y'umweru n'umukara; hasi ufite ivarisi ndetse uri kuvugira kuri terefone.

Icyapa cyo ku muhanda cyandikishijweho amagambo y'umutuku ndetse n'ubururu ndetse n'umukara, hariho imibare itandukanye mu byiciro bitatu ndetse hariho n'abagore babiri batandukanye, kuri icyo cyapa hariho n'imodoka y'umutuku.

Igishushanyo cy'inyubako y'inzu gifite amabara y'umweru n'umukara mu imbere yaparitsemo imodoka, iyo nyubako iri kwaka amatara imbere ndetse n'inyuma hateyeho ibiti ku mpande ndetse hari n'ubusitani buririmo udutara dutoya turi kwaka ndetse n'ibindi biti birebire.

Imodoka y'abasiganwa iri mu muhanda wa kaburimbo, hateye ubusitani burimo indabyo, ndetse n'ibiti by'imikindo, hari n'icyapa kihari cyamamaza sosiyete y'ubwishingizi gifite ibara ry'ubururu, hari n'abantu bahagaze munsi y'inyubako, ndetse n'abandi bafite amatelefone barimo barafotora, bari hejuru y'iyo nyubako.

Abantu bagera kuri barindwi bahagaze ku itapi ifite ibara ry'umutuku. Bafite mu ntoki ikirangantego gifite amabara y'ubururu n'umweru cyanditseho saniramu Rwanda, inyuma hari intebe yabo, inyuma na none hari ibindi birangantego bibiri byanditseho saniramu Rwanda bigite amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Icyapa cyo ku muhanda cyamamaza imodoka, hariho imodoka ebyiri zifite ibara ry'umweru ndetse hahagazeho abagabo babiri, hagati yabo harimo moto, kuri icyo cyapa gifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru, handitseho nimero za telefone ndetse n'imodoka nimero zayo.

Icyapa cyamamaza gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu cyandikishijweho amagambo afite ibara ry'umukara, kigaragaza yuko tugeze mu gihe cy'imvura. Hariho ikirangantego cya sosiyete y'ubwishingizi ndetse hariho amazu yasenyutse ndetse hari ahandi imvura iririmo kugwa ndetse n'imihanda yapfuye hari n'ibyuma ndetse hari n'imodoka zirimo zirayora ibyondo.

Icyapa cyamamaza, kiriho ifoto y'umusore uri guseka, ufite ikintu mu ntoki gifite amabara y'ubururu, hariho uturongo tw'umweru, inyuma handikishijwe amagambo ari mu mabara y'umweru, ndetse n'utundi tuntu tw'ibara ry'ubururu, umweru, ndetse n'umuhondo, hariho n'ibirangantego bya purayimu, by'ubwishingizi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibitenge hari ibitenge bimanitse hejuru, bimanitse mu buryo bugera kuri butanu ndetse hari n'ibindi bizinze bigiye bigerekeranye hasi.

Umuhanda wa kaburimbo ufite n'aho abanyamaguru bagendera, hari gucamo umunyamaguru ufite igikapu mu ntoki, ndetse hari n'inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda, hari imyenda bari gucuruza ihagaze imbere y'iduka, ndetse hari n'igiti cy'ukindo kihateye, iyo nzu ifite amabara y'ubururu.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge ahagaze mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda idoze, nayo imanitse ku twuma dufite ibara ry'umweru, hasi no hejuru ndetse iyo nzu ikorerwamo ubucuruzi ifite ibara ry'umweru ndetse n'inkingi zishinze z'umweru zifasheho iyo myenda imanitse.

Inzu bacururizamo ibitenge, ibitenge biri mu tubati bipanze ahantu hagera kuri hane hapanzemo ibitenge bizinze neza ndetse hasi hariho itapi ikozwe mu bwoya nayo iriho igitenge kirambuye, ku ruhande hari agatebe k'urubaho.

Iduka ricuruza ibikapu by'abadamu bifite amabara atandukanye, harimo iby'umweru, harimo iby'umukara, hari ibifite ibara rya kaki biteretse hejuru y'udutebe tubiri tw'umutuku ndetse harimo n'akabati gafite ibara ry'umutuku, gateretsemo imitako ndetse n'amashakoshi.

Inyubako iri ku muhanda ifite amabara y'icyatsi ndetse hejuru handitseho amagambo afite ibara ry'ubururu imanitseho imyenda idoze mu bitenge ndetse hari n'amavaze ahari ateyemo indabyo, afite ibara ry'ubururu n'umuhondo n'icyatsi, ku umuhanda hari gutambukaho abagabo babiri bari gucuruza, umwe ufite imisego n'undi ufite imyenda ndetse ari n'umumama wambaye imyenda y'ibitenge uhahagaze.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda y'abadamu imanitse mu byiciro hari amakoti amanitse hejuru yegeranye n'udusengeri dufite ibara ry'umweru ndetse n'amashati harimo n'amapantaro ,harimo amarinete ndetse hasi harimo n'inkweto.

Abagabo babiri, bafite icyapa mu ntoki cyanditseho Akagera amatoro, undi afite agakapu mu ntoki, bahagaze impande y'imodoka ndetse hakurya n'izindi modoka ebyiri ziparitse ndetse n'ipoto rirerire, hari n'akazu gahari kanditseho Akagera motoro ndetse hari n'ubusitani buhateye.

Imodoka zigera muri eshatu ziparitse zifite ibara ry'umukara, ndetse inyuma hari igikuta cy'ibara ry'umweru, hejuru hari agatara kari kwaka ndetse n'icyapa gifite ibara ry'ubururu cyanditsemo yundayi.

Abagabo babiri bafite igipapuro mu ntoki gikozwe mu rufunguzo, umwe afite n'agakapu k'umutuku mu ntoki ze, yegamiye ikinyabiziga cy'imodoka gihagaze, inyuma yaho hari inyubako y'amabara y'umuhondo ndetse n'amadirishya y'umweru ndetse hari n'igiti kihateye.

Abagabo babiri bahagaze bafite icyapa cyanditseho, a, b, g, bahagaze imbere y'ibinyabiziga bibiri birebire bifite ibara ry'icyatsi kinini gifite ibara ry'orange ndetse n'ibindi binyabiziga bibiri biparitse hirya byumweru hari n'ibiti bihateye.

Abagabo babiri bambaye amapantaro ndetse n'amashati y'umweru, bari guhererekanya ikirangantego gikozwe mu rufunguzo, cyanditseho akagera motoro inyuma yabo hahagaze ibinyabiziga bigera kuri bibiri, bifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru, hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, hariho utwuma dufite ibara ry'umweru, inyuma yaho hari ihema rifite ibara ry'umweru ryanditseho amagambo A na B na G, ndetse hari n'ibiti bihateye.

Umugore uhagaze ufite ijage mu ntoki irimo amata ari kuyora mu ndobo nabwo irimo amata. Imbere ye hari akabati ndetse n'idirishya rifite ibara ry'ubururu rihagazemo umuntu bari kuvugana ndetse n'igicupa cya pulasitike cy'ubururu, hari n'ibyuma bibamo amata.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imitobe ndetse n'amata biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru hari umuntu wicaye ku ruhande inyuma hari icyuma cy'amata ndetse hari n'umudamu wambaye ibitenge wicaye ku mpande ye hateretseho akantu karimo amashashi.

Icyapa kiri mu amabara y'umweru handitseho amagambo atandukanye ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'andi y'ama mabara y'umuhondo, n'andi arimo ibara ry'ubururu ndetse n'indi mibabara y'umutuku.

Ameza ateretseho keke ku isahani hari cake bariyeho n'indi batararyaho, hariho n'ikiganza cy'umuntu ufashe itasi irimo amata ndetse ameza afite ibara ry'umweru, hirya hahagaze umuntu wambaye ipantaro ifite ibara ry'umuhondo n'ijerekani ihari.

Ahantu muri sale haherereye abantu baje kwamamaza ibintu byabo by'ibicuruzwa ku ruhande imbere yabo hari abantu bari kubireba banareba uburyo bikorwa .

Inzu bacururizamo irimo imitobe y'amoko atandukanye, harimo imitobe ifite ibara ry'umuhondo y'inyange, hakaba n'indi mitobe ya marite ndetse n'amazi manini ya Nili arimo ndetse harimo n'intebe ya purastike ifite ibara ry'ubururu.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata ndetse n'ibindi binyobwa, harimo icyuma gikonjesha gifite ikirangantego kimanitseho gifite ibara ry'ubururu n'umweru cya Mukamira hashushanyijeho n'amata bari gusuka mu kirahuri, ndetse hari n'amafanta ari mo mu kabati.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata ndetse n'iyindi mitobe, hicaye umudamu wicaye ku ntebe y'ubururu, ku meza hateretseho ibikombe ndetse n'isahani iriho amandazi n'imyumbati ndetse n'igikombe cy'amata, hari amabara inyuma y'ubururu n'umweru ndetse hirya hari icyuma cy'amata gifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru, hari n'icyuma gikonjesha ibinyobwa kirimo ibinyobwa mo imbere.

Akabati gakozwe mu rubaho gafite n'ibara ry'umweru, hateretsemo amacupa y'amazi magufi agera mu icumi ndetse hari ambarage nini, ndetse hari n'akambarage gatoya. Hasi hari igipapuro gifite ibara ry'ubururu n'umweru.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata, harimo akabati karimo indobo irimo keke, harimo icyuma cy'amata, ndetse harimo n'udutebe, n'utumeza, hirya hari igishushanyo gishushanyijeho utubido, ndetse n'uducupa dutoya tw'amata, ndetse n'amajerekani ari hejuru mu kabati.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata yubakishijwe amatafari ahiye harimo amajerekani, harimo icyuma gikonjesha amata, hariho ibyapa by'amata bishushanyijeho utubido tw'umweru, bishushanyijeho n'amabara y'ubururu ndetse n'inka, harimo n'amacupa y'amazi harimo n'udutebe dufite ibara ry'umweru ndetse n'utumeza.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata, hari icyuma gikonjesha amata gifite amabara y'ubururu n'umweru ashushanyijeho inka, ndetse hari n'akabati karimo utubidodo dufite ibara ry'umweru, ndetse ako kabati nako gafite ibara ry'umweru n'ubururu, ndetse hari n'ukuboko k'umuntu kuri ku ruhande gufashe ku ntebe

Ameza yorosheho igitambaro gifite amabara ya shokora n'umukara hateretse isahani ifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku ndetse n'agapapuro k'isuku hateretseho n'irindazi hirya hari intebe y'ubururu ndetse hari n'agapaniye gafite amabara y'umutuku.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata ifite ibara ry'umweru, ifite ikiranga ntego cy'ubururu, cyanditseho inyange ndetse no kumuryango hari ibara ry'ubururu hashushanyijeho umwana ufite agakombe karimo amata, ndetse hariho n'ikirangantego k'inyange kuruhande rwaho hari undi muryango ufite ibara ry'ivu uteretseho amakarito.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata ifite irangi rifite ibara ry'ubururu, hari ibyuma bivamo amata bigera kuri bitatu ndetse icyo hagati hejuru hari ijage ihari, hasi hari indobo ihari ifite ibara ry'umweru ndetse hari n'akameza.

Icyapa cyamamaza sosiyete ya eyateri kiri mu mabara y'umutuku handikishijwemo amagambo y'ibara ry'umweru, hariho ifoto y'umusore wicaye, wambaye umupira w'umweru ufite telefone mu ntoki ndetse hariho n'ifoto ya telefone yandikishijwemo amabara y'umutuku ndetse n'umweru.

Urupapuro rwo kwishuriraho imisoro ruragaragaraho ikirangantego, hakagaragaraho nimero yo kwishuriraho, hakagaragaraho amatariki yo kwishyuriraho, hakagaragaraho amafaranga, hakagaragaraho na sinyatire, hakagaragaraho n'aho umusoro uzishyurirwa aho ariho.

Urupapuro ruho ikirangantego cy'u Rwanda hakaba hariho n'ikirangantego cya Rwanda reveni hariho igihe bagomba kwishyurira isuku iyo ariyo bagomba kwishyura umwaka ndetse n'amatariki bagomba kwishyuriraho ndetse n'igihe bagomba kuba barangije kwishyuriraho, ndetse n'umubare w'amafaranga bagomba kwishyura ndetse n'ahantu bagomba gushyira umukono.

Umugabo wambaye ipantalo y'umukara, n'ishati y'amabara y'umukara, umweru n'ubururu , wambaye n'isaha kukaboko, mu ntoki ze ari kubara amadorari ijana ndetse n'aho yicaye hari amadorari atandukanye agiye afungwa mubyiciro bitandukanye.

Amafaranga y'inoti yo mu bihugu bitandukanye, afite amabara atandukanye, hari afite ibara ry'umutuku, ibara ry'icyatsi, ibara rya move, ibara ry'umweru, harimo inoti z'ibihumbi icumi, harimo inoti za magana atanu, harimo inoti z'ibihumbi bibiri, harimo inoti za mirongo itanu, harimo inoti z'ijana

Ibiganza by'umuntu, ufite amafaranga atandukanye yo mu bihugu bitandukanye, harimo amanyarwanda inoti y'igihumbi ndetse n'inoti ya bitanu ndetse hari n'amadolari arimo ndetse harimo n'inoti mirongo itanu, inoti ya magana atanu.

Inoti y'ibihumbi makumyabiri iri mu mabara atandukanye harimo amabara y'umuhondo hari amabara y'umukara ndetse harimo ibishushanyo by'utunyamaswa tubiri ndetse harimo n'igishushanyo cy'ikibumbano gifite ibara ry'umukara .

Inoti zigera kuri esheshatu zo mu gihugu cya tanzaniya (Tanzania) hari inoti ya magana atanu ishushanyijeho umugabo, indi ya magana atanu ishushanyijeho inyubako, indi noti y'igihumbi ishushanyijeho umugabo ,indi yo hirya ishushanyijeho inyubako ndetse n'inoti y'ibihumbi bibiri ishushanyijeho intare ndetse n'iyindi note ibihumbi bibiri ishushanyijeho inyubako.

Inzu ifite amabara yumweru ndetse n'cyatsi, ikorerwamo ubucuruzi bwo kohereza amafaranga m'imbere hahagazemo umuntu uhagaze ari kuvugana n'abantu bakora muri iryo shami rishinzwe kohereza abantu amafaranga.

Inzu isize irangi ry'ibara ry'umuhondo harimo amarido agera kuri abiri ndetse harimo n'intebe zifite imyanya igera kuri ine, zifite amabara y'umukara n'umweru ndetse hasi ku isima hasize ibara rifite ibara ry'icyatsi.

Inzu irikwakamo amatara ifite ibara ry'umweru hariho ku gikuta televiziyo ifite ibara ry'umukara, hari akabati gafite ibara ry'umuhondo kari kwakamo udutara, hariho imitako itandukanye yaba imitako y'indabyoya, yaba imitako y'utunyamaswa ndetse harihoho n'intebe kuruhande rwaho n'amarido.

Umuhanda w'amabuye uri gucamo ibinyabiziga bya moto, ndetse ari kumanukamo n'abanyamaguru kuruhande hari ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'utubati n'ibitanda ndetse n'ututajeri, hari inzu ifite amabara y'umuhondo ndetse n'inzu ifite amabara y'umweru yanditseho ibirayi, ifite umuryango w'umukara hari n'amapoto y'amashanyarazi ku muhanda.

Inyubako ifite amabara y'ivu ndetse n'amatafari ahiye, hari umuntu uri kugenda, hari ubusitani buhari burimo udutebe dufite imitaka hejuru, ubwo busitani buteyemo indabyo z'amoko atandukanye.

Inzu isize irangi rifite ibara ry'umweru, iriho n'itara riri kwaka, imbere yaho hari udutebe tubiri tubiri n'akameza two kwicaramo abantu ndetse hari n'ibiti bihateye birebire ndetse n'indi mitako iri imbere y'umuryango ikiri migufiya.

Ahantu abantu bogera, ku ruhande hari udutebe tubiri tuhateretse, hakikijwe n'ubusitani bufite ibiti birebire, ndetse n'indabyo zitandukanye, hakurya hariho inzu, ifite amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo.

Inzu ifite amabara y'ubururu n'umuhondo ndetse n'akabaraza gafite utwuma, imbere yaho hateye indabyo n'ibiti by'amoko atandukanye, ndetse hari n'ubwogero buhari bukikijwe n'udusima tw'ubururu n'umweru.

Inyubako iri kwakamo amatara mu imbere, isize amabara y'icyatsi ndetse n'umweru, hasi hari ubusitani burimo imikindo miremire ndetse harimo n'udutebe ndetse n'ameza bihari.

Inyubako ndende ya etaje iri mu mabara y'umuhondo wijimye, hasi hateye ubusitani ndetse n'inyuma by'ibiti birebire ndetse n'indabyo hari udutebe twicaramo abantu hejuru dutwikirije imitaka, ndetse hari n'ubwogero bwo abantu bogeramo.

Inyubako ifite ibara ry'umweru ndetse na kaki ifite imiryango yandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu, handitseho imibare ahandi handitseho amagambo asanzwe, imbere haparitse ibinyabiziga bigera muri bibiri.

inzu ifite ibara ry'umuhondo, ndetse n'iry'umukara hariho ikirangantego cya sonarwa, hari ubusitani butemewemo ibiti birebire ndetse harimo n'utugiriyaje tw'umweru ku rukuta harimo n'urupangu.

Inyubako ifite amabara y'umweru ndetse harimo n'intebe z'umukara, hamanitsemo ibipirizo by'amabara y'ubururu ndetse n'umweru, hagati handikishijwemo amagambo y'ubururu n'umweru, hariho n'akabati gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru.

Inyubako ndende ikorerwamo ubucuruzi bw'ubwishingizi, iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, hariho ibirangantego bimanitse birimo amabara y'ubururu n'umweru, byanditseho purayime inshuwarensi, hasi hateye ubusitani, hari abanyamaguru barikuhagenda ndetse n'ibinyabiziga biparitse.

Inyubako ndende ikoreramo sosiyete y'ubwishingizi, hariho amabara y'umweru ndetse yubakishijwe amatafari ahiye, hari umunyamaguru uri kwambuka mu umuhanda wa kaburimbo ndetse n'undi urimo uragenda ,hari ibinyabiziga bya moto bihari hari ubusitani buhateye.

Umuhanda uparitsemo ibinyabiziga bibiri ndetse hari kunyuramo umuntu ufite indobo mu ntoki ndetse n'abandi bagabo bari gutambuka ku ruhande; hari inyubako ya etaje ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu afite ibyapa ndetse imbere yaho hateye ibiti bitandukanye ndetse hari n'amapoto y'amashanyarazi ahari.

Inyubako ifite ibikuta byamabara y'ubururu ndetse n'miryango y'ubururu hejuru hamanitseho ibyapa by'amabara atandukanye by'amabanki ndetse kumuryango handikishijwe amagambo y'ibara ry'umweru, handitseho ijambo irembo mo imbere naho hamanitsemo ibyapa harimo intebe z'umutuku ndetse n'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo y'umukara ndetse n'umweru, harimo amapoto, mu muhanda harimo imodoka zihagaze z'umweru ndetse n'iy'umukara, hariho n'ibyapa kumuhanda by'umutuku n'umweru, ndetse hariho n'inyubako zitandukanye hariho n'ibiti, hariho n'umuntu uri kwambuka umuhanda, hariho n'inyubako nini ya saniramu.

Abagabo babiri bari kunyura mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ubwishingizi, hariho akabati kanditseho kwakira abantu kari mu ibara rijya gusa umutuku, inyuma hari ibyapa bifite amabara y'icyatsi ndetse n'umweru biriho amafoto y'umuryango w'umugore n'abana ndetse hari na televiziyo hejuru ihamanitse.

Igishushanyo cyamamaza kirangwa n'amabara y'umweru ndetse n'ubururu, hashushanyijeho umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, umanitse ikiganza hejuru, mu ntoki ze afitemo urupapuro, ndetse imbere ye hari mudasobwa ndetse n'agatasi k'icyayi.

Icyapa cyamamaza egisipo gifite ibara ry'icyatsi hariho ifoto y'umusore wambaye umwenda w'umukara ndetse n'umweru uhetse igikapu mu mugongo ndetse ufite n'ibipapuro mu ntoki kuri ayo magambo yandikishijwe ibara ry'umweru.

Itike iriho abagabo bagera kuri batatu bambaye imyenda y'umukara, igaragaza igitaramo kizaba kuwa gatandatu, tariki makumyabiri n'umunani z'ukwacumi bibiri na makumyabiri nagatatu saa kumi n'imwe, kikazabera mu nyubako ya bike arena, iyo tike yagabanyijweho mirongo itatu ku ijana.

Icyapa kinini gifite amabara y'umukara ndetse na move cyamamaza banki y'ubucuruzi kiriho igishushanyo cy'umugore ufite ikarita mu ntoki ufite n'ibicuruzwa mu ntoki ahashye ndetse hariho ibishushanyo by'amashakoshi ndetse n'ibikinisho by'abana ndetse na kamera.

Umugabo uri gusimbuka wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, ufite terefone mu ntoki ndetse ku ruhande hari utubogisi tw'amabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo, dufite imirongo y'umutuku ndetse hari n'ikindi gishushanyo cy'umuntu gifite ibara ry'umukara na cyo kimeze nk'ikiri gusimbuka.

Inzu isize amabara y'umweru ndetse hariho igishushanyo cy'umuntu uri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, hariho ibipurizo by'amabara y'ubururu n'umweru, hariho udutebe ku mpande ndetse hari n'indabyo zihari.

Icyapa cyamamaza banki gifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara hariho amagambo yandikishijweho ibara ry'umweru ndetse hariho n'ifoto y'umukobwa uri guseka wambaye akantu mu ijosi kameze nk'agakaza gafite ibara ry'umukara ndetse n'agapira k'umweru ufite na telefone mu ntoki.

Inzu ya etage ikorerwamo ubucuruzi hejuru hakorerwamo ubucuruzi bwi'imyenda hari imyenda imanitse ku bipupe hasi hakoreramo copedu ndetse hasize amabara y'umuhondo ,ubururu ndetse n'umweru hari n'indabyo ziri mu mavase kumpande yaho .

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'ibyo kurya, hariho ibitunguru, puwavuro, ndetse n'amakaroti n'imyumbati n'ibijumba ndetse n'imiteja, hari abantu bari gucuruza hari abahagaze ndetse inyuma hari iyindi nyubako ihari iriho ibyuma ndetse hari n'amashitiningi y'ubururu.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'ibitoki hari ibitoki byinshi birambitse hasi ndetse n'ibindi birimorimo mo imbere hari abantu bari gutambuka ku muhanda bahagaze, ndetse n'abandi bari kugenda b'abakarani ndetse hari n'inyubako yubakishijwe ibyuma bifite amabara y'ubururu.

Inzu nini yubakishijwe ibyuma, ikorerwamo ubucuruzi bw'imboga n'imbuto, harimo imineke, harimo imyembe, harimo amaronji ndetse harimo n'abantu bicaye ndetse n'abahagaze ndetse harimo n'akantu kariho ibishyimbo byo gutonora.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'inkweto, harimo abantu barimo baragenda, hari umuntu wicaye wambaye umupira w'ubururu, harimo inkweto zimanitse hejuru ku tubati ndetse n'izindi zirimo hasi ndetse hari n'amatara arimo araka.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bya kinyarwanda, hejuru hamanitse imyenda irimo amakoti, imipira, yaba ibidoze mu gitenge, ifite amabara y'ubururu, yanditseho Rwanda, hasi hari uduseke, hari amaherena, hari inkangara, ndetse n'utundi tuntu twinshi dutandukanye.

Abantu bicaye mu isoko rikorerwamo ubucuruzi bw'ibikapu bidozwe mu buryo bwa kinyarwanda, udutebe two kwicaraho, inkoni zikozwe mu biti, ibikapu ndetse n'ibiseke bitandukanye biri muri iryo soko ndetse hari n'abandi bantu barimo baratambuka.

Inyubako ndende ya etaje, ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, ifite amagorofa atandukanye ndetse hari amatara ku muhanda, hari n'abanyamaguru bari kuhaca benshi cyane ndetse hari n'ikinyabiziga kiri kuhatambuka.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda y'abana, hariho ibiti bimanitse hejuru biriho imyenda iri mu bwoko bw'amakanzu hasi hari utubati turarambitseho indi myenda y'abana harimo ibisarubeti ndetse n'abantu barimo baratambuka n'abandi bicaye.

Abagore benshi bari gucuruza ibyo kurya birimo inyanya, intoryi, urusenda, bimwe biri mu mabase ibindi bitanditse hasi, hari n'abandi bantu baje guhaha bafite udufuka ndetse n'amamverope mu ntoki, bari ahantu hari umuhanda w'ibitaka.

Umuhanda wa kaburimbo uparitsemo ibinyabiziga, hari amatara ku muhanda, hari n'igiti gihari ndetse hari imitaka iri mu birangantego bya eyateri ndetse na tigo, hari n'inyubako ndende ihari, isize amabara y'umuhondo n'umweru.

Inzu yubakishijwe ibyuma ikorerwamo ubucuruzi bw'ibiribwa by'imbuto ndetse n'imboga, harimo intogiyi harimo amapavro harimoinyanya harimo amakaroti hari abandi bantu bicaye ndetse n'undi muntu uhagaze uri gutunganya inyanya.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibiribwa byo kurya ndetse n'imbuto, hateretseho imbuto zimanitse hejuru, harimo imineke, amarongi, ibinyomoro, inanasi, ndetse hari umudamu wicaye hasi, ku ruhande rwe hari ibishyimbo ndetse n'amavoka.

Imitako ikozwe mu buryo bwa kinyarwanda harimo imitako bamanika mu nzu, harimo imitako y'abadamu bambara mu ijosi ndetse no ku maboko, harimo ibiseke, harimo udukoko, harimo utuntu bashyira ku meza.

Abagore bane bambaye ibitenge, bafite n'ibindi bitambaro mu mutwe, harimo umugore ufite imbago mu ntoki, ndetse hasi hari amabase arimo imineke, andi arimo avoka, hakurya hari undi wunamye, urimo utoranyamo ibiribwa, ndetse bicaye ku muryango ufite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, ifite inkingi zifite ibara ry'umuhondo, harimo inanasi ndetse harimo umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi ufite agafuka mu ntoki, harimo abagore babiri bicaye bakenyeye ibitenge, ndetse harimo n'abandi bagore babiri ndetse n'umwana, bahagaze.

Abagore benshi bahagaze bari gucuruza ibiribwa bitandukanye bari gucururiza MU mabase yaba amatoya ndetse n'utudobo dutoya, dufite amabara y'umukara ndetse n'ubururu hakurya hari umutaka, ndetse hakurya bakikijwe n'ibyatsi byinshi.

Inzu isize amarangi y'mweru n'umutuku ndetse hari akabati kari ibirangantego bya eyateri gasize amarangi y'umutuku ndetse n'umweru mi imbere harimo udukarito ndetse hari n'ikindi cyapa gifite ibara ry'umweru n'umutuku kiriho amafoto y'abakobwa bagera kuri babiri.

Abantu bahagaze nundi wicaye bahagaze mu muhanda witaka impande y'akazu k'ihema gafite amabara y'umuhondo n'ibirangantengo bya emutiyene bambaye imipira y'umweru undi yambaye ishati ndetse no hirya hari undi uhahagaze wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'ubururu n'undi wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara nabo bahagaze mu kazu gafite ibara ry'umuhondo.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge ahagaze mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda idoze, nayo imanitse ku twuma dufite ibara ry'umweru, hasi no hejuru ndetse iyo nzu ikorerwamo ubucuruzi ifite ibara ry'umweru ndetse n'inkingi zishinze z'umweru zifasheho iyo myenda imanitse.

Abantu bahagaze mu kazu ka emutiyene bari kwamamaza, bambaye imipira y'umuhondo ndetse, hari n'amajire emutiyene n'uducupa twa emutiyene, ndetse hari umutaka, ku ruhande hari indangururamajwi ihahagaze, hakurya hari abagabo bicaye mu ihema ry'umweru iruhande rw'iduka.

Abasore batatu bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'ingofero z'umukara, hari n'ikirangantego cya emutiyene gishushanyijeho ingofero gishushanyijeho imipira y'umuhondo ndetse n'udukomo tw'umuhondo. Icyo cyapa gifite amabara y'umuhondo n'umukara ndetse hariho n'icyapa cya emutiyene, hariho n'umuntu wambaye ikanzu utari kugaragara neza.

Umuhanda wa kaburimbo ndetse n'undi w'abanyamaguru uhagazemo akazu ka Mtn gafunze, ku ruhande harimo ipoto rirerire ry'amashanyarazi ndetse harimo n'icyapa ndetse hari n'akapa kandikaho nimero y'urupangu, inyuma hari n'ibiti by'inshi bihateye.

Akazu kari ku muhanda gakorerwamo ubucuruzi bwa emutiyene gafite ibara ry'umuhondo, gafite amadirishya agera kuri abiri; imbere yaho hahagaze abagore babiri ndetse n'abagabo babiri ndetse n'umuntu ucuruza urimo imbere; hari n'ibiti biteye ku muhanda ndetse n'indabyo.

Ubwoko bw'amafaranga atandukanye kandi abarwa bitandukanye birimo biragaragara ko ari amafaranga yo mu bihugu bitandukanye rero buri gihugu kiba kigiye gifite amafaranga gikoresha amafaranga kandi ni meza kuko akora ibintu byinshi bitandukanye mirongo inani kwi ijana muri ubu buzima ni amafaranga cyane cyane ko usigaye ajya no kwa muganga mbere yuko uvurwa bikagusaba kubanza kwishyura nibwo uhita umenya akamaro k'amafaranga

akazu kari ku kumuhanda gasize ibara ry'umuhondo gafite ibirangantego bya MTN imbere ya hagaze umugore ndetse hakurya yaho hari akandi kazu gakozwe mu mbaho kariho amabara y'umutuku ndetse n'umuhondo ahongaho hari n'ibiti bihari birebire.

Imitako ya kinyarwanda yo mu bwoko bw'intango imanitse iri mu mabara atandukanye y'umweru n'umukara, umuhondo, icyatsi kaki, ubururu, orange.

Abantu benshi bahagaze imbere y'akazu gafite ibara ry'umuhondo n'ibirangantego bya emutiyene, hasi hari itapi ifite ibara ry'ububuru mo imbere hahagazemo abandi bantu bahagaze ku kabati iruhande rwako gasa umweru ndetse hirya hari indi nyubako ifite amabara y'umweru.

Umugabo uhagaze wambaye umupira wumuhondo, uhagaze imbere yikinyabiziga cya moto gifite ibara ry'umuhondo n'umukara. Inyuma hari igishushanyo kiri mu mabara y'umuhondo n'ibirangantego bya emutiyene gishushanyijeho imodoka yibara ry'umukara ndetse n'umuntu wambaye imyenda y'umukara n'umweru.

Akazu kari ku muhanda gakozwe mu byuma gafite amabara y'umuhondo ndetse n'ibirantego bya emutiyene, imbere hamanitseho n'icyapa gifite ibara ry'umuhondo hicayemo umuntu wunamye, hanze hari abantu bagera kuri batatu bahagaze ndetse hakurya hari n'akandi kazu gasize ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Abamotari benshi batwaye ibinyabiziga bya moto, bambaye imyenda y'umutuku yandikishijweho amagambo y'umweru, harimo n'ikindi kinyabiziga cy'imodoka kiri kugenda, ku muhanda hari ubusitani burimo indabyo ndetse n'ibiti, hari n'inyubako iri hakurya ikikijwe n'utwuma dufite ibara ry'umutuku.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bwo ku ikoranabuhanga, hariho ibishushanyo by'inkweto ndetse n'akenda k'umwana, hariho amaterefone hariho amashakoshi ndetse hariho n'amatara y'amabara atandukanye.

Ubusitani burimo pasiparumu n'ibindi biti bigufi ndetse n'ibindi biti birebire ku mpande hari inzu ya etage igeretse kabiri ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu kumpande hari umucanga uharunze .

Icyumba gisize amabara y'umweru ndetse n'amarido y'umweru n'urugi rw'ibara ry'umukara ndetse n'urugi rw'ibara ry'umuhondo hateretsemo akabati ndetse harimo n'igitanda gikozwe mu rubaho gisashweho amashuka asa ubururu.

Urupangu rufite amabara y'umukara n'utwuma hejuru, ndetse n'ibirahuri bibonerana ndetse mo imbere harimo ubusitani bukikijwe n'utubuye tw'umukara n'umweru, ndetse harimo inyubako y'amabara y'umweru ifite igisenge cy'umukara.

Icyumba gisize ibara ry'umweru, gifite idirishya hariho amarido y'umukara n'umweru ndetse muri icyo cyumba hariho uburiri bufite ibara ry'umukara, hashashe amashuka atandukanye amabara ndetse rifite n'imisego ibiri y'umweru.

Inzu ifite ibara ry'umweru, ifite akabati k'umweru, ifite n'ahantu bakarabira hafite ibara ry'umukara, hasi hari akabati, amadirishya y'umukara ndetse n'inzugi z'umukara.

Igikuta cyubakishijwe amabuye ndetse n'amatafari ahiye hariho utwuma dufite ibara ry'icyatsi dutambitse ndetse n'udusenyenge turi hejuru, mo imbere hari inyubako ndende ifite amarangi y'ubururu ndetse n'urubaraza rw'amarangi y'umweru hirya hateye ibyatsi ndetse n'ibiti hateyemo n'insina.

Inzu ifite ibara ry'icyatsi, urubaraza rufite ibara ry'umweru, igisenge cy'amabati atukura, ndetse n'inkingi z'amabara y'umweru, n'utwuma ku ruhande tw'umukara, hahagaze umuntu, ndetse hari ubusitani butaruzura neza n'ijerekani hanze, ndetse hakurya naho hari iyindi nzu ifite igisenge cy'amabati atukura.

Inzu bakoreramo ubucuruzi bw'imboga, harimo abantu batandukanye ndetse harimo ibiribwa by'imboga, harimo inyanya, tungurusumu, puwavuro, karoti, imboga, imiteja ndetse hari n'ibindi birungo bimanitse hejuru, harimo n'amashu na shufurere n'ibindi byinshi bitandukanye.

Inzu bariramo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, irimo umuntu wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'agataburiya k'umukara, harimo abantu bicaye ku dutebe tw'icyatsi ndetse hari n'ururabo ruhateye, hari n'utubati turimo ibinyobwa banywa.

Umuntu uhagaze mu nzu ifite ibara ry'umweru ahagaze imbere y'akabati k'umweru gasize n'amabara y'ubururu yanditswe mu magambo ndetse harimo n'ibikoresho bigiye bitandukanye harimo mudasobwa ndetse harimo n'itara rifite ibara ry'umutuku.

Abagabo babiri bari mu nzu ikorerwamo ubucuruzi, hari umwe usutamye uri kureba ibicuruzwa biri hasi, ndetse n'undi uhagaze ufite akagare uri kugenda utoranya ibicuruzwa ashaka guhaha, harimo ibicuruzwa byo kurya ndetse no kunywa by'amoko atandukanye.

Abantu benshi bicaye abandi bahagaze, inyuma yaho hari inyubako yubakishijwe amatafari ahiye hari ikigega. Ndetse hari n'ihema riri hirya, imbere yabo hari ibirangantego byamamaza ejo heza biri mu mabara y'umweru ndetse n'ikirangantego cy'ibara ry'ubururu, cyanditseho amagambo ya saniramu ndetse n'ikirangantego rya ara esesibi, hagati hahagaze umugabo uri kuvugira mu ndangururamajwi.

Abantu bagera muri batatu abagore babiri n'umugabo bicaye mu nzu isize amarangi y'ubururu, ndetse bamanitsemo n'utwapa n'ibipapuro bitandukanye, hari n'aho bakarabira intoki, ku meza yaho hari ibipapuro byinshi bitandukanye, umuntu yambaye itaburiya y'umweru n'undi yambaye ikaburiya y'umweru, ndetse hari n'umugore ufite ibipapuro mu ntoki.

Abantu bicaye mu nzu ifite ibara ry'umuhondo, bicaye ku gatebe, abadamu bambaye ibitenge batatu, ndetse n'umugabo, bafite impapuro mu ntoki, ndetse inyuma yicaye undi mudamu wifubitse, ndetse n'undi uhagaze, wambaye umupira w'umuhondo.

Abantu benshi bahagaze bari kureba inyuma, imbere yaho hari inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ifite amabati afite ibara ry'ubururu, ndetse hari n'ibiti bihateye n'insina inyuma, imbere hari abandi bahicaye hasi bitwikiriye imitaka, hari n'ibirangantego byanditseho amagambo ya ejo heza.

Umugabo uri kuvugira mu ndangururamajwi inyuma ye hari igishushanyo gifite iyi ifoto iriho umugore ndetse n'amagambo yanditseho ejo heza ari mu mabara y'ubururu n'icyatsi, nanone hari andi magambo yanditse hasi afite ibara ry'ubururu yanditseho ejo heza n'ayandi ari mu ibara ry'umweru.

Abantu benshi batandukanye hari abicaye ndetse n'abahagaze abicaye bafite amakaramu mu ntoki ndetse barimo barandika hari abandi bahagaze bafite mituweli mu ntoki ndetse bafite n'ibindi bipapuro inyuma yaho hari ibiti birebire bihateye.

Abantu bicaye mu nyubako ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru imanitsemo ibipapuro bitandukanye, abo bantu ni abagabo n'abagore harimo abambaye udupfukamunwa ndetse bicaye ku ntebe z'ibibaho.

Abagabo babiri bafite igipapuro cy'amafaranga mu ntoki zabo, inyuma yabo hari icyapa cy'ibara ry'umweru cyandikishijwemo amagambo afite ibara ry'umweru, ndetse na move handitsemo ar esi esibi, ndetse harimo n'amabara afite ibara ry'umuhondo.

Umugabo n'umugore bicaye mu nama, bicaye ku ntebe zi ifite amabara y'umukara ndetse inyuma hari igikuta cy'umweru gifite amadirishya y'umukara n'umuhondo, ku meza hateretseho mudasobwa n'uturangururamajwi dutoya ndetse n'icupa ry'amazi ndetse hari n'agapapuro kanditseho amagambo ya ara esesibi.

Icyapa cyo ku muhanda cyamamaza ejo heza, cyandikishijwemo amabara y'ubururu n'icyatsi, hashushanyijeho umugore, inyuma yaho hari ihema ryicayemo abantu bambaye imipira y'umweru ndetse n'igiti kiri ku ruhande rwabo ndetse urundi ruhande ruparitsemo ibinyabiziga munsi y'inyubako ndende.

Abantu bari munzu isize amabara y'ubururu, ndetse n'ubururu bwijimye, hari abantu bicaye bambaye udupfukamunwa bicaye kumeza bari gukoreshaho mudasobwa, ndetse imbere hari umugore uhagararanye n'akana gatoya nawe wambaye agapfukamunwa, ndetse hicaye n'abandi bantu ku ntebe bategereje.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imitobe hariho ibyapa hejuru bimanitse bishushanyijeho amacupa y'imitobe, hari amacupa ari mu mabara ya oranje ndetse n'umukara ndetse hari n'utubati tugiye dupanzemo iyo mitobe ndetse hari n'indi mitobe iteretse hasi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi ifite ibara ry'umweru, hejuru ndetse no hasi, hejuru harimo amakamera agera kuri abiri acunga umutekano, harimo n'akabati karimo imitobe y'amoko atandukanye, afite ibara ry'umuhondo, afite ibara ry'umutuku, afite ibara ry'ubururu, ifite n'ibara rya move.

Inyubako ya etaje ifite ibara ry'umweru, hejuru hateye ubusitani buteye mu bidobo bifite ibara ry'umukara ndetse hariho utugiriyaje ku ruhande, munsi yaho hari iduka na ryo rikorerwamo ubucuruzi, amaduka agera kuri atatu arimo ibicuruzwa, hanze hari indobo irimo ibikuburisho ndetse na kandagira ukarabe, hari n'imodoka iparitse ku ruhande.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imitobe, imitobe ipanze mu tubati dufite ibara ry'umukara, tugera muri tubiri, harimo imitobe ifite amabara atandukanye ndetse n'amoko atandukanye, harimo n'amazi ndetse harimo n'ibyuma bikonjesha iyo mitobe, biteretsemo imitobe ifite amabara y'umuhondo, umutuku ndetse haririmo n'amazi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibyo kurya, ifite amarange afite ibara ry'umweru, harimo utubati tugera kuri dutandatu impande zombi turimo ibyo kurya, harimo ibiri mu bikopo bifite ibara ry'umuhondo ndetse harimo amabiswi, amakawa ndetse n'ibyo kunywa.

Icyapa kiri ku muhanda cyanditseho simba Kicukiro ndetse hari akayira k'abanyamaguru kari gutambukamo umuyamaguru ndetse hari n'umuhanda wa kaburimbo uri gutambukamo ibinyabiziga biri kumanuka, hakurya hari amaduka ahari afite amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibyo kunywa ifite akabati gafite ibara ry'ubururu, hari ibyo kunywa by'amoko atandukanye hasi hapanzemo ibyo kunywa bya kokakora bifite ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo, hejuru nanone hapanzemo ibyo kunywa bifite amabara y'umukara, umuhondo ndetse n'amazi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, irimo utubati tugera kuri tubiri, iburyo n'ibumoso hariho utundi tubati tugiye tugerekeranyije turimo amavuta hejuru ndetse n'imiti itandukanye ndetse n'impapuro z'isuku, hamanitseho n'ibyapa byanditseho sawa siti biri mu mabara y'icyatsi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibyo kunywa, harimo imitobe y'amoko atandukanye, harimo amazi, harimo amata afunze mu makarito ndetse hahagaze umugabo wambaye agapfukamunwa uri kugura ibyo kurya ndetse n'umugore wambaye agapfukamunwa nawe uri gucuruza.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibicuruzwa bitandukanye yaba ibikoresho byo mu nzu ndetse n'ibyo kunywa, harimo umugabo wambaye umupira w'umukara uri gucunga akagare, ndetse inyuma ye hari umuntu wambaye ishati y'umukara uri gufotora, hari n'ibyapa bishushanyijeho, imitobe ndetse harimo n'ibipirizo birimo by'amabara y'umuhondo n'umukara n'abantu bahagazemo.

Ni muri gare hari haparitse imodoka za kwasiteri zikoreshwa na ajanse ya sitela.

Abantu bahagaze mu nzu ikorerwamo ubucuruzi, icururizwamo amazi, imitobe y'amoko atandukanye, amabiswi, amabombo, amashokora. ndetse hari umuntu uri gushyira ibintu mu gakapu, ndetse hari n'undi wicaye hirya uri kugaragara ibiganza, uri gukoresha mudasobwa imbere ye.